Iduka ririmo ibintu bitandukanye harimo amazi ya jibu, harimo ibitambaro bya bandana, imbere y'iduka hariho umutaka wa Emutiyeni, harambitseho intebe iriho ijire, n'ibase y'ubururu n'iy'umutuku.

Ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi, harimo amabati y'umweru n'amabati y'umutuku, harimo n'ibindi byuma birimo n'amaveri.

Harimo imirasire ,harimo amateleviziyo ,harimo n'amasaha ,harimo ibikoresho bijyanye n,amapasi, harimo nibikoresho byerekanaga umupira.

Bigaragara ko hari isuka. Imbere yaryo hariho amagare bari gupakira, hariho abagabo babiri bahagaze impande y'ayo magare. Impande yaho hariho imifuka ibiri igerekeranye, impande yaho hakabaho...

Isoko ry'imbuto ziribwa zitandukanye, amatunda, ibinyomoro, amapapayi, voka, imineke, hamwe n'imyembe, n'ibinyomoro.

Umugore uri gucuruza iduka ry'ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo ibikorerwa mu nganda, n'ibindi arangura bivuye mu mirima. Harimo ibikomoka ku mbuto, imboga， intoryi, pavuro, inyanya, harimo ibyo mu nganda, harimo ibirungo tayari, na wonja， na gu, n'amavuta yo kurya, na za sarisa.

Voka z'ubwoko butandukanye harimo izisa n'icyatsi izindi zisa n'umukara, inyuma yazo hariho abagore babiri umwe afite umwana, undi afite telefone mu ntoki, harambitseho n'umupira w'umutuku. Izo voka harimo voka imenyeho uruhande rumwe rwo kugira barebe ko zaba ziryoshye abaguzi.

Isoko ririmo ibicuruzwa by'imiteja, beterave, imyenda. Harimo abagore bafite iminzani bari gupima imiteja ku kiro. Bambaye ibitenge by'ubururu bahetse n'abana

Ubwoko bw'ibiribwa, birimo intoryi, birimo n'ibiribwa by'ibinyampeke, imiceri n'ibishimbo. Harimo n'abagore bikoreye imineke ku mabase, bambaye ibitenge by'icyatsi, n'iby'umukara, biteze n'ibitambaro by'umutuku.

Indobo irimo inanasi zihase, hariho indi ndobo iri impande yayo irimo ubusa, n'umufuka urimo amakara, izo nanasi zikaba zigaragara nk'aho ziri gucuruzwa zihase.

Umugore wicaye ari gufunga imifungo y'itabi, yambaye inkweto za bunyogwe z'umweru, itabi yarirambitse k'umufuka w'umweru.